Isosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi Radiant, ihamagarira abakiriya bayo gushinganisha amazu, kuko ari kimwe mu bikorwa bikomeye byaba nk'igishoro baba bafite.

Kugira ngo banki ihe abakiriya bayo serivisi inoze biba ngombwa yuko igira amapulikasiyo atandukanye, aho ayo mapulikasiyo afasha abakiriya mu kunoza imikorere ya serivisi bahabwa, ndetse no kurinda amakuru yabo bwite; ibyo rero bituma mbere yuko wohereza cyangwa wakira amafaranga ubanza gushyiramo imibare y'ibanga kuri konti yawe uba ukoresha.

Serivisi zo gukodesha no gucuruza amamodoka, ikigo cyo mu Rwanda rutura Akagera Business Group gihagarariwe na sosiyete Akagera Motos bamenyereweho gutanga iyo serivisi; kandi ubona ko koko bamaze kubigiramo uburambe, bituma abakiriya bishimira serivisi babaha.

Sosiyete zicuruza ama modoka ndetse zinayakodesha, zikunze kuba zifite imbuga zazo aho iyo ugiyeho uhasanga imodoka yerekana ubwoko bwayo, igiciro ndetse n'igihe bayikugerezaho, ibyo bigatuma ababagana bishimira serivisi bahabwa.

Muri sosiyete ndetse n'inganda zikora imodoka ikigo yundayi cy'abanyakoreya ubona ko kimaze gutera imbere aho usanga mu bihugu byinshi ndetse na afurika kigiye gifite amashami aho kibasha kwegereza serivisi zacyo abakiriya bacyo.

Mu rwanda hari amasosiyete menshi akodesha akanacuruza imodoka ariko hakaba harimo abo bita abadirazi cyangwa abo twakwita nk'abakomisiyoneri barangira abakiriya aho bakura izo serivisi yaba iyo kugura cyangwa gukodesha amamodoka.

Akagera Business Group nka sosiyete ibumbye izindi sosiyete zirimo Akagera motos ni sosiyete nziza kandi zitanga serivisi inoze ku bakiriya bazo mu bijyanye no gucuruza ibinyabiziga. Iyi sosiyete rero ikaba ikorera mu Rwanda.

Aha ni muri kantine, aho tuhasanga ibicuruzwa bikomoka ku mata ndetse n'ifarini, murabona ko uyu mupapa ari gucuruza imikati ndetse n'amandazi kandi n'umusore na we murabona ko yenda guhereza abakiliya amata.

Iyi ni inyemezabwishyu y'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, aho kerekana usora n'umusoro yasoze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu.

Mu bucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga, usanga ibiciro byaho bizamurwa buri munsi, aho buri bwoko bw'ifaranga baba berekanye igiciro cyaryo ku itariki y'uwo munsi ugezweho.

Foregisi biro ni aho ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga bukorerwa, ariho usanga ujyana amafaranga y'abanyamahanga we bakaguha amafaranga y'amanyarwanda. Ubu bucuruzi rero bumaze gutera imbere kandi ubona yuko ababushoramo nabo bubungura.

Muri serivisi za hoteli, serivisi y'ingenzi cyane ni itanga amafunguro ndetse n'ibyo kunywa, aha rero niho usanga uko hoteli igira amafunguro meza n'ibyo kunywa byiza, ari nacyo gituma ikurura abakiriya benshi.

Mu masoko rusange hirya no hino mu gihugu, ni ho ushobora gusanga imboga ndetse n'imbuto n'ibindi biribwa bifite ubuziranenge biba bikiva mu mirima, ni mu gihe ugiye kubishakira ahandi nko mu maduka usanga ibimaze igihe bitagifite ubuziranenge.

Ihaha ni urubuga rwiza rukoreshwa mu bucuruzi, aho abantu bagura cyangwa bakagurisha ibicuruzwa bakoresheje murandasi, ubu buryo rero bukaba bwizewe kandi bukaba bworohereza ababukoresha kugira ngo babone serivisi inoze.

Ubucuruzi bukoresha iya kure cyangwa se ikoranabuhanga, bukomeje guteza imbere ubucuruzi. Urugero twavuga nk'Ikigo Miniso aho ari sosiyete ikoresha iya kure cyangwa murandasi mu kugeza ku bakiriya ibicuruzwa kandi ku giciro gito.

Serivise z'ubucuruzi bw'amazu ni bumwe mu bucuruzi bugezweho kandi bwungura ba rwiyemezamirimo babukoramo. Nkuko tubibona rero, hano hari amazu menshi kandi meza akodeshwa ndetse harimo n'agurishwa aho akora nk'paritema kandi abarimo ibikoresho byose nkenerwa.

Serivisi zo gukodesha amazu zimaze gutera imbere, aho kuri ubu ngubu umuntu akodesha inzu irimo n'ibyangombwa byose intebe, utubati ndetse na za televiziyo, ku buryo we agenda akajya yishyura ku kwezi n'ibyo byose birimo.

Kuri ubu, abantu benshi ntago bagishishikarira kubaka amazu yabo; kuko serivisi za Riyo esiteti ziborohereza kuba bakodesha amazu ku kiguzi gito, kandi bigatuma banabasha kugira amafaranga basagura, kugira ngo babashe kubona ibyo imiryango yabo iba ikeneye.

Riyo esiteti invesitimenti adivatayizimenti, ni amatangazo aba agamije kwamamaza ibikorwa by'ubucuruzi bw'amazu ndetse n'ibijyanye n'ikodeshwa ryayo. Aya matangazo aba yerekana muri detaye ibyo iyo nzu yujuje, ndetse n'ibyo umukiriya yakabaye akeneye kuri yo kugira ngo abashe kubona serivisi ayishakaho.

Mu kagarama ni hamwe mu hantu heza kandi hizewe aho abakora serivisi z'ubucuruzi ndetse no gukodesha amazu bakunze gukorera kuko hakunze kuba abakiriya benshi kubera ari ahantu hatuje kandi hagendeka muri Kigali.

Ba rwiyemezamirimo bashora mu nyubako ndetse n'ubwubatsi bamaze gutera imbere mu rwanda aho usanga buri gacegiye barahubatse amazu akodeshwa kandi bagashyiramo ibyangombwa byose nkenerwa cyane cyane bifasha abakiriya b'abanyamahanga.

Amahahiro magari akunze gukoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi aho bakora ijoro n'amanywa kandi ukabona serivisi ndetse n'ibicuruzwa byose ushaka igihe cyose ushobora kujyayo ukabona ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye udahinduye byose ukabisanga ahantu hamwe.